Amafi yokeje , yashiririye , afite ibara ry'umukara . Mo hagati hagiye harimo ibirungo bitandukanye , hakaba hariho n'ibirayi byokeje ku ruhande , hakaba hariho na karoti batetse.

Ni inzu bacururizamo, hakaba harimo ibinyobwa bigiye bitandukanye. Hakaba inyuma hari intebe eshanu zigaragara, harimo ibara ry’umutuku. Hirya y’aho, hakaba hari ameza abiri, agiye afite intebe, intebe buri ruhande.

Ni bale irimo abantu batandukanye. Abakobwa, abahungu n'abagabo. Bicaye mu byiciro bitandukanye. Ibyo byiciro akaba ari bitatu, noneho bakaba bicaye mu ntebe za pulasitike. Bare ikaba ipavomesheje amatafari.

Umuntu wambaye amaherena afite inkoko mu ntoki, izindi nyama ziri ku isahani. Inyuma ye hakaba hari amasahani y’amadongo, hakaba hari n’ibirungo, hakaba hari n’ibirahure.

Ifi iri ku ifuru. Hejuru y'ifi bashyizeho akarungo. Hirya y'aho hari inyanya eshatu zihiye zisa n'izigiye kubora, hirya yaho hakaba hari ibindi birayi bikase biri ku ruhande.

Icyapa gikikijwe n'ibiti byinshi, cyanditseho volukanozi nashono pake welikamu tu Kinigi hedikota gatatu kirometa, n'agafureshi kerekana kw'ibyo biti, imbere yaho hari indabo.

Inyubako imbere hapavomye. Imbere hariho moto, ahandi hirya hariho moto, hirya n'ubundi hari umukobwa ukoze mu mufuka w'ishati, hakaba hari icyapa cyanditseho sikoro, hateye n'irangi ry'umuhondo.

Ahantu bacururiza udukomo dutandukanye, hasi hakaba hari kugaragara udukomo twa purasitike, hejuru na ho hakaba hari kugaragara udukomo twa purasitike, tukaba dufatanyishijwe n'akantu k'akuma, inyuma y'utwo turi hejuru hakaba hari udukomo tw'icyuma.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye hakaba, hari icyapa cyanditseho hoteli Muhabura imbere y'iyo nyubako hari igiti cy'imitsindo ,hakaba hateyemo indabo zigiye zitandukanye, no hino hari igiti kinini, hakaba harimo n'indabo zitandukanye.

Inyubako ndende ifunguye imiryango ebyiri, umuryango umwe urimo intebe z'umweru imbere y'uwo muryango hari abantu babiri, imbere y'abantu babiri hari igare, k'uwundi muryango hari imifuka ebyiri y'amakara umwe ufunze undi udafunze. Imbere y'iyo mifuka hari agatanda bayungururisha.

Ni inyubako iyo nyubako hakaba handitseho hejuru ku makaro meza, kandi imbere y'iyo nyubako hari imodoka. Inyubako iriho amakaro, hagiye hariho n'amagambo agiye atandukanye kandi irageretse.

Ahantu bacururiza matera, matera ziragerekeranye ari nyinshi, imbere y'umuryango hari indi matera irambitse ku nkingi y'inzu, inkingi y'inzu ni ebyiri zifite irangi ry'ubururu, hejuru hari icyapa cya matera.

Ahantu bacururiza harimo imitaka ya emutiyeni ,umwe n'amayeitel abiri. Hakaba hari umuntu ufashe ibasi y'icyatsi, hakaba hariho n'ahantu harambitse amadobo y'ubururu n'icyatsi n'amabasi. Inyuma yaho hakaba hari amabuye y'amatosho, inyuma hakaba ari ahantu hashije harambitse.

Inzu bacururizamo ibintu bitandukanye. Hakaba hari icyapa cyanditseho Mahoroshopu. Imbere y'umuryango hari amagazi menshi agiye aterekeranye. Hirya y'umuryango hari udutambaro n'amabaro.

Ni udukomo dutandukanye, tugiye turimo amoko atandukanye kamwe muri two. Hari umuntu udufite mu ntoki, uwo muntu akaba agaragaza intoki gusa. Hirya y'intoki hakaba hari n'utundi dukomo tugiye tugaragara atari cyane.

Inyubako yanditseho sikoro, imbere y'iyo nyubako hari imodoka ebyiri , hafi y'iyo nyubako hari umuntu uri hafi y'urugi rw'umutuku , hakaba hari ibiti birebire , bitatu , binini cyane , inyuma yiyo nyubako y'umuhondo hari inyubako isakajwe amabati y 'umutuku.

Hari umuntu uhagaze uri kugaragaza inkweto za bodaboda, hari n'undi uhagaze ruguru uri kugaragaza inkweto za supuresi, hakaba hari imirunga y'ibishamburere, hakaba hari n'imifuka irimo ibintu bitandukanye, harimo igikarito, hakaba harimo n'intebe ya sheze.

Inyubako ifite ibara ry'umweru , ikaba ifite amakositara, hakaba hanyuzeho n'insinga. Hakaba handitseho icyapa cyanditseho besite, hari amacumbi.

Isoko, isoko ririmo abantu batandukanye, hakaba harimo ibitunguru, harimo n'abantu barimo gucuruza amandazi, akaba ari n'isoko rigari cyane cyane ariko.

Ni inzu bacururizamo hari icyapa kiriho abantu bafite inyogosho zigiye zitandukanye. Handitseho ikirango cya airtel. Imbere y'iyo nzu hakaba hari indobo iri kuri kandagira ukarabe, n'imbere hakaba harimo n'abantu.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ifite urupangu rujya gusa umukara. Hakaba hari icyapa cyanditseho visita gesite hawuze Musanze. Hakaba hari na nimero wabashakaho zeru, karindwi, umunani, mirongo itanu na rimwe, umunani, rimwe rimwe, mirongo ine na gatanu.

Isoko bacururizamo ibintu bitandukanye, hari umuntu uri kugaragara igice kimwe umuntu ufite natireri. Hasi y'iyo nyubako harapavomye hari amakaro, hakaba hari amasafuriya ari kugaragara n'amarido ibikapu bigiye bitandukanye, hakaba hari kugaragara hano ducuruza.

Ahantu hari icyapa kiriho abantu bafite inyogosho zitandukanye. Imbere yabo bantu, hari abantu bicaye ku muryango, umwe niwe wicaye yambaye ubururu, n'ijire y'umutuku, n'umugabo wambaye ikoboyi n'umupira, w'icyatsi. Imbere hari undi wambaye umupira w'ubururu hari kandagira ukarabe ifite ibasi y'icyatsi.

Aho bacururiza, harambitse umufuka basutseho imineke, hakaba hari umugore ufite imineke mu ibasi, hakaba hari n'igikarito kirimo amaronji, imbere hari umugore usutse, uri kureba imbere.

Inzu isakajwe amabati ashaje imbere yaho hari imbabura, z'ibyuma n'iz'amabumba, hakaba hari umuntu wambaye umupira w'umutuku n'ijipo y'iroza, hino hakaba hari imbabura nyinshi nanone hakaba hateye n'igiti kinini cya gereveriya.

Ni inyubako y'ubucuruzi, iyo nyubako y'ubucuruzi ikaba yanditseho amagambo atandukanye avuga ngo "Ibanga nta rindi ohereza amafaranga ku buntu ukanda akanyenyeri magana atanu, urwego". Imbere y'iyo nyubako hari abagore, umwe ahetse umufuka, undi afite igikapu, kandi imbere yaho hari abantu batandukanye bafite ...

Inzu bacururizamo hakinguye imiryango ebyiri, umuryango wa mbere uhagazemo umukobwa ufashe ku rugi, ku ruhande hakaba hari umufuka undi muryango hateretsemo umufuka w'umuhondo urimo ibintu, hakaba hicaye umusaza ku ntebe imbere y'uwo muryango hari ibiti bya gereveriya bibiri, imbere y'aho hakaba hari indabo.

Ahantu bacururiza hakaba ari imiryango ibiri iri kugaragara. Imbere y'umuryango hari ikidobo kihateretse kiri mu mutaka wa emutiyeni, hakaba hari intebe y'urubaho n'iyindi yasheze, hagati y'iyo miryango ibiri hakaba hari andi meza. Inyuma y'uwo muryango ku ruhande hakaba hari ipine ry'igare riri kugaragara.

Ahantu bacururiza imbere yaho hari igare, hakaba hari n'amagazi atandukanye. Hakaba hari n'amakarito agiye atandukanye, hari abantu babiri bari kurebana. Hakaba harimo n'amacupa atandukanye. Iyo nzu ikaba iriho amakaro ifite n'irangi ry'ubururu atari ubururu neza.

Ni inzu bacururizamo, yanditseho icyapa cya Sikoro, hakaba hari urugi rw'umutuku, hafi y'iyo nzu imbere yaho hari umuntu urimo kugenda, ufite ikintu cy'umweru, imbere y'umuryango na none hari umutaka wa emutiyeni urimo abantu bicaye.

Ni igikuta, icyo gikuta kiriho amakaro, amakaro noneho akaba agiye barayashyizeho ku murongo, ku makaro hariho icyapa cya sikoro, munsi y'amakaro, hakaba hari indi nyubako itagaragara neza.

Ahantu bacururiza hari inzu ifite umuryango w'icyatsi, hariho n'ingufuri ihafunze. Hari ibuye rirambitse hafi n'amakaro. Hakaba hari ibyuma bigiye bitandukanye bifunitse.

Ikinyabiziga kirimo amajage ane asa n'icyatsi, abiri asa n'ubururu, hirya yaho hari amacupa, hino hari ibikarito, harambitsemo n'umufuka ufunze, hirya hakaba hari ibindi bikarito.

Inzu ifite ibara ry'icyatsi ikaba ifite umu umuryango ukinguye, ifite urugi ruteye irangi ry'ubururu, imbere yaho hakaba hapavumye gato, imbere akaba ari imbuga idapavamye igiye irimo utubuye duto.

Ni inzu bacururizamo hakaba hari icyapa cyanditseho Bare Nganda na Biso, akabenzi, burusheti, hakaba hari n'amacupa menshi y'inzoga, hakaba hari na numero wabashakiraho. Hejuru ikaba iteye irangi ry'icyatsi n'irijya gusa umuhondo.

Ni inzu y'ubucuruzi, ubwo bucuruzi imbere yaho hari umwana uri mu kameza, inzu ikaba yubakishije amakaro, bakaba bayisukiramo, harimo amavuta atandukanye.

Icyapa kiriho ibintu byinshi bitandukanye amazi , burubandi , inyange , inyange zo mu yandi moko na cororete . Hakaba handitseho na Kocakora , hakaba hari icyapa cyanditseho sheze Kabasha . Kontagiti zeru , karindwi , umunani , umunani ,gatatu , kane , kane , umunani mirongo itatu na rimwe.

Inzu bacururizamo ifite urugi rw'ubururu imbere y'aho hari ibibuye bihapavomesheje, hirya y'aho hari abakobwa babiri batandukanye umwe yambaye ikote ry'umutuku undi yambaye ikote ry'ubururu, hirya y'aho hari ibasi y'umutuku iri kuri kandagira ukarabe, n'ikibasi giteretsemo hagati.

Inzu bacururizamo imyenda y'abana, hakaba hariho icyapa cyanditseho imyenda y'abana n'igishusho kiryamyemo umwana, n'umwana wambaye pampa. Mu muryango hari ibikarito birimo imyenda itandukanye, hakaba hariho na po ziri kugaragara y'icyatsi.

Ahantu bacururiza imyenda myinshi, hakaba hapavomye hasi, imbere y'abagore bari hasi, n'umugabo hari intebe, hejuru yaho hakaba hari amashuka atandukanye, hakaba harimo amamarete, hejuru y'amashuka hakaba handitseho sasa neza shopu, amashuka, ibirangiti, kovureri.

Inyubako ifite umuryango wanditseho rerigiazi resitorenti. Ifite urugi rujya gusa umukara. Imbere yaho hapavomeshejwe udutafari, hakaba hari umuntu ku ruhande wunamye uri kureba ku ibara ry'umutuku. Inyuma yaho hari indabo, hakaba hari kureguka igiti cy'imitsindo. hakaba hari n'icyapa cyanditseho sikolo.

Iyi nzu bacururizamo hakaba higanjemo ibikoresho byo mu gikoni, ibikombe, ibiyiko, amafoke n'amarushi n'indiga, hakaba harimo n'imisekuzo n'amasekuru hakaba hejuru hariho n'amasafuriya.

Inyubako ifite imiryango ibiri ifite urugi rufite ibara ry'ubururu, urundi rugi rurakinze ruriho ingufuri ebyiri urukinguye rufite akabati k'umweru. Hafi yaho hari intebe ya sheze hakaba hari umuhungu uhahagaze wambaye ikoboyi na tisheti y'umweru.

Ni inyubako y'ubucuruzi imbere y'umuryango hari amagare atatu, hakaba hari n'ameza, ameza akaba ateretsweho bafule nini cyane kandi iyo nyubako ikaba ifite irangi ry'ubururu.

Inzu ifite imiryango ibiri iteye irangi ry'ubururu, hakaba imbere y'umuryango hari moto iharambitse, hagati y'umuryango n'undi hari umuntu uhari, ku wundi muryango ukinze hari umugore uhetse igikapu afite n'umutaka.

Ahantu bacururiza ibikoresho bitandukanye, hejuru hari amasafuriya yubitse, kuruhande hari ikintu cyumweru kiharambitse, hasi hari amatelemusi agiye ahari n'amaketo, hasi hakaba hari ubudomoro burimo ji n'amavuta n'umunzani.

Inyubako ipavomye imbere, imbere y'iyo nyubako hari moto ifite ibara ry'umutuku n'imbere harimo ubudomoro bugiye buteretse butandukanye, hejuru y'iyo nyubako hariho icyapa cyanditseho otorayizediserofushayiribrikanti, hakaba hariho na nimero.

Inyubako igeretse gatatu imbere y'iyo nyubako harapavomye, inyuma yayo hari indabo zitandukanye hakaba hariho n'igiti cy'umutsindo.

Butike bacururizamo yubakishijwe amatafari ahiye, ifite ibara ry'umuhondo, inyuma hari igiti cy'avoka, inyuma yaho hari inzu isakajwe amabati y'umutuku hari n'urugo rufite amatafari ahiye, imbere yaho hari umugenzi uri kugenda, kuri butike mu muryango hari ibase irimo avoka.

Ni inzu ya resitora. Iyo nzu hejuru yaho hakaba hari icyapa cyanditseho "Mama Kwini Resitorenti." Hakaba hari nimero wamusangaho, imbere y’iyo nzu hari umutaka wa emutiyeni.

Ni inzu y'ubucuruzi, imbere y'iyo nzu ku muryango hari intebe zihateye, imbere yaho nanone hari intebe zitandukanye, zanitseho imyenda itandukanye, inyuma y'iyo myenda hari inzu nanone ifatanye n'iyo nzu yindi, ikaba itandukanyijwe n'urugi rukingishije ingufuri.

Ni inzu bacururizamo, hejuru y'iyo nzu hari icyapa cyanditseho salo. Iyo nzu yubakishijwe amakaro, imbere y'iyo nzu hari umwana wambaye imyenda y'umweru, inyuma yaho gato y'urugi hari intebe iriho umwenda w'umutuku, hari n'indobo ihateretse, iri mu mufuka.

Aho bacururiza hari imifuka igiye igerekeranya mushya. Hakaba hari ibikarito biri kugaragara bitatu hagati hakaba hari undi mufuka munini, hirya yaho hakaba hari ibindi bikarito n'imifuka myinshi. Umwe ugeretse indi bakaba bayirambitse ku ntebe hakaba imbere hari amayisikariye hariho amakaro yatangiye kuvaho.

Ishyirahamwe ry'abantu bambaye imipira y'ubururu, bakaba bambaye n'amapantaro ajya gusa ubururu, abandi bambaye umukara. Hakaba abagabo bambaye amakote bari kureba udukarito turi ku meza, adekoresheje igitambaro cy'umutuku.

Ni inzu ya hoteli. Iyo nzu ikaba ishushanyijeho ururabo hari n'icyapa cyanditseho hoteli. Imbere y'iyo hoteli hari igiti cy'umutsindo kirekire, inyuma y'icyo giti hari indabo zindi z'amoko menshi atandukanye. Hirya y'iyo nzu hakaba hari indi nzu itagaragara neza.

Umuntu uri hafi ya pisine, hafi ya pisine hakaba hapavomesheje amatafari. Inyuma y'uwo muntu hari ibyapa bitandukanye, noneho nyuma y'ibyapa hakaba hari inyubako, iyo nyubako ikaba ikingirijwe n'ibiti.

Hoteli, ku marembo hasakaje amategura, hakaba handitseho icyapa cyanditseho "Neza Hawuze Akomudesheni", hakaba hari na nimero zihanditse. Inyuma y'wo muryango hari ikivoka kinini kigandaye, hirya yaho hakaba hari urusasa rukiri ruto.

Icyapa cyanditseho Werikamuturovijina hoteri. Hasi hari igiti cy'igisasa kitarakura cyane, imbere yaho hari umuryango ufite ibirahuri uri kugaragaraho, insina zifite amakoma.

Icyapa cyandikishije ho inyajwi z'icyatsi cyanditseho; karasike resitorenti rogi hakaba hari n'icyapa gitandukanye na nimero babashakaho; agasaraba magana abiri mirongo itanu, mirongo irindwi n'umunani, umunani, gatatu, gatanu, kabiri, kane karindwi gatandatu agakono mirongo irindwi na karindwi agakono mirongo irindwi n'umunani.

Umufuniko wacikaguritse wa pulastike urambitseho ibitunguru byinshi, n'utumenagure twa sambusa. Hakaba hariho na sambusa nyinshi z'ibirayi bitandukanye.

Umuntu uri gupfundura umufuka, inyuma y'uwo mufuka, hari intoryi ziri mu ibasi y'ubururu, hirya y'intoryi hari imboga rwatsi, umukecuru arazifashe, akaba afite n'agafuka ku mavi inyuma y'umukecuru, hari umuntu uhenye inyuma ye hari ibasi y'icyatsi, hirya hari amashu.

Inzoga z'amoko atandukanye, apfundikiye ,ari mu icupa rijya gusa icyatsi . Hakaba hariho ayanditseho jambo ku ruhande hari inkoko iri kureguka isutseho utuntu.

Ni ubucuruzi harimo ibintu bitandukanye: hari ikirangiti, hakaba hari ibikombe biziritse ku mugozi, inyuma y'ibyo bikombe hari ibirangiti na none ,hasi y'ibikombe hari amasafuriya agiye afite imifuniko atandukanye hirya y'amasafuriya hari indobo hari amabase.

Ahantu bacururiza, hari abantu bikoreye mu mifuka y'ubururu myinshi, hejuru hari amapoto agiye ahanyuze hahanitse insinga, hari abantu bicaye ku bicuruzwa, umwe yambaye ijire y'umuhondo, hari n'abandi bari ku magare mu muhanda mo hagati.

Aho bacururiza imbuto zitandukanye, hari inkoko nini isutseho amaronji atukuye cyane. Hirya y'aho hari ikindi kintu kirimo imbuto zitandukanye, hejuru hari amaronji atukuye bikaba bitandukanyijwe n'ibara ry'iroza.

Isoko ririmo abantu batandukanye harimo umuntu wikoreye ibasi irimo ibihaza, undi yikoreye ibasi y'umukara hakaba harimo umufuka urimo ibirayi, hakaba hari n'undi mufuka urimo amapera na voka, hakaba harimo n'igikarito kibereye aho.

Ni inkoko iriho ubwoko bw'imbuto bwitwa imbuhu, hejuru y'iyo nkoko hari anvilope, hari n'umuntu ugiye kuziyora, hirya y'iyo nkoko hari izindi nkoko ziriho umuceri.

Hari amasahani atandukanye, amasahani y'ibyuma ariyo madongo, hakabaho indiga zitandukanye, ibikombe by'amadongo, n'ibikombe bya palasitike, hepfo yaho hakaba hari umuntu, uwo muntu akaba atagaragara, hagaragara urukweto.

Ahantu bacururiza imbuto zitandukanye, hari amaronji, hari amatunda, hakaba harimo na wotameloni nyinshi cyane, harimo n’umunzani utandukanye. Hakurya y’isoko hari kugaragara inyubako iriho amakaro.

Ahantu bacururiza hari amavuta yanditseho topu rayini, hari andi yanditseho moviti, na giriserine. Hejuru yaho hari ama biswi ya girikose, na situruwaya zitandukanye.

Isoko ritandukanye, ririmo imyenda igiye itandukanye, hari abantu bari kugura, bamwe baricaye abandi barahagaze, hari umugore uri kugaragara cyane, ufashe ku mufuka w'umugore umuri imbere.

Ibikombe bitandukanye bya parastike, harimo n'amasahani ya parastike, harimo n'umugozi wa masine, hakaba hari isekuru irimo imihinne, hakaba hari imihoro iri kureguka, n'amasuka n'inkoko n'akadomoro k'umweru.

Ahantu bacururiza hari urugi rw'ibiti rukinguye, hari ibirungo bitandukanye, hari bolosada z'abana n'iz'abakuru, hakaba harimo n'imakasi zisa umweru, n'amavuta yanditseho Topline.

Isoko bacururizamo imyenda itandukanye. Iryo soko, imbere yaho hari umuntu urimo kuza, hakaba hapavomye. Hari n’ibipupe bambitse imyenda igiye itandukanye, hakaba hari kugaragara cyane ikanzu y’ubururu n’ikanzu irimo umukara n’umweru, hejuru yambaye pinki.

Ni aho bacururiza hariho imyenda igiye itandukanye, hari amashuka, hari ibitambaro, hari ibikapu, harimo n'abantu bari kugura, hakaba hariho n'imitaka ya emutiyeni.

Aho bacururiza hari imifuka ine ihinnye n'uwa gatanu urimo igikombe, hakaba hari ubudomoro bw'ane bw'umuhondo, n'amadobo atandatu atandukanye arimo ifu, harimo iya soya, iy'ingano, iy'ibigori.

Amabase abiri atandukanye ibasi imwe n'ubururu irimo amafi, iyindi n'umutuku nayo irimo amafi hari kugaragara ifi rimwe ifite ijisho hafi yaho hari ibindi bintu biri kugaragara by'amakarito.

Aho bacururiza hari kureguka amasombe menshi ahambiriye, hakaba hari n'abantu bari kuyagura bagiye bafasheho ku masombe, hakaba hari kureguka n'isekuru n'umuntu ijisho rimwe n'umufuka, umugore ari gusuka mu wundi n'undi muntu uhetse igikapu.

Ni sambusa zihiye ziri ku isiniya. Izindi ziri hejuru y'ibasi, hafi yaho hari ifoke, hafi nanone hakaba hari umuntu ufite ishashi ugiye gukoramo mu ziri mu isiniya.

Aho bacururiza yawurute zirambitse kuri etageri, ya wurute n'eshanu z'umutuku, hakaba munsi ya ho handitse ho nimero zeru karindwi umunani mirongo itanu na gatatu, ikenda gatandatu magana ane mirongo ine na kabiri.

Harimo inkono, inkono zigiye zisumbana. Hari inkono zifite imifuniko, hari n'izidafite imifuniko. Harimo n'imbabura, kandi izo nkono zikaba zitatse mu buryo butandukanye, burimo amabara y'umweru n'umutuku, umutuku wijimye hakaba harimo n'umukara.

Mu bucuruzi harimo umuntu uhagaze hafi y'imiteja, hakaba hari puwavuro hakaba harimo n'intonore, hakaba hari n'amavuta sorwatomu na tungurusumu.

Ku isoko ryubatse ku ruhande hari inyubako igeretse kabiri, k'urundi ruhande hari inyubako itageretse, iriho ibicuruzwa biri hanze, mu muhanda mo hagati hari imodoka n'abantu babiri bari kugenda, inyuma y'iyo nyubako hakaba hari ibiti byinshi by'ishyamba.